Inama hagati y'abayobozi n'abaturage, iba nziza cyane, cyane cyane iyo irimo inzego z'umutekano, igisirikare na polisi, abaturage baganira n'abayobozi babo, bagakemurira hamwe ibibazo bafite.

Ingabo z'igihugu bakunda kwita abasirikare, ni ingabo zishinzwe kurinda umutekano w'igihugu, bakorera mu gihugu mo imbere no hanze yacyo iyo babahamagaye, bakora akazi kanini cyane kuko bakora ijoro n'amanywa.

Umukino w'amagare, ni umukino uba mu bwoko bwa siporo. Uba umukino mwiza cyane, kuko ni umukino mpuzamahanga uhuza ibihugu bitandukanye. Iyo wabereye mu Rwanda, Abanyarwanda tujya kuwureba tukishima, ndetse n'Igihugu cyacu kikabona amafaranga kubera uwo mukino w'amagare.

Inzego zishinzwe umutekano, igisirikare n'ipolisi n'izindi baturindira umutekano w'igihugu cyacu, turyamye bakarara abicaye ku bera twe, barara bataryamye bashaka igisubizo cy'umutekano w'igihugu cyacu.

Inzego z'umutekano harimo abapolisi, abasirikare naba daso badufasha mu gucunga umutekano w'igihugu cyacu, bigatuma buri muturage wese abaho mu mudendezo.

Igihembo ku muyobozi witwara neza, cyangwa umuturage witwara neza, gituma uwagihawe areberwaho na bagenzi be, bigatuma bakora cyane, kugira ngo nabo bazabone kuri ibyo bihembo.

Inama zihuza abaturage n'abayobozi ziba nziza cyane ,kuko zituma umuturage abasha gutanga ikibazo afite ,bityo bigafasha n'ubuyobozi kumenya ibibazo by'abaturage, noneho umuturage agakemurirwa ibibazo bye mu buryo bwihuse.

Polisi nk'urwego rushinzwe umutekano, ikora akazi kanini cyane, icunga abaturage nibaba, bari kugendana ibyangombwa byabo, ku buryo nta muntu, ushobora kwinjirira igihugu, agamije kucyangiza.

Ubwato bwo mu mazi bwa polisi bufasha mu gutabara abaturage baguye muri ayo mazi, bigatuma n'iyo yaba yitabye Imana umubiri we uboneka ku buryo bworoshye.

Imbwa zifasha mu mutekano, kuko zifasha mu gusaka ibisasu byaba byinjiye mu gihugu, cyangwa bisohotse mu gihugu, bigatuma akazi k'abapolisi koroha, kakagenda neza, kagakorwa mu gihe gito.

Abapolisi n'abantu bashinzwe umutekano, barinda umutekano w'igihugu ubasanga ahantu henshi hatandukanye nko mu nyubako cyagwa ku mihanda bari kubungabunga umutekano w'abaturage.

Porisi zo mu mazi bakunda kwita Marine porisi. Ni porisi ishinzwe gukorera mu mazi, itanga ubutabazi ku bantu baguye mu mazi. Ibakuramo, ikazamura, ikabaha ubutabazi bw'ibanze.

Inzego z'umutekano zidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi kuko ziturindira umutekano. Harimo abapolisi, abasirikare n'izindi nzego bafatanya kuducungira umutekano. Muri izo nzego rero habamo amahirwe hari abazamurirwa amaranka bigatuma barushaho kwiteza imbere.

Inama ihuza abayobozi batandukanye, ni nziza nziza cyane, ifasha abayobozi gukemura ibibazo by'abaturage, bakabiganirira hamwe, bakabishakira ibisubizo birambye, bituma abayobora neza abo bayobora.

Inama zihuza abayobora n'abayoborwa ziba nziza cyane, uyoborwa atanga ikibazo afite ku muyobora ,kigasubirizwa aho ngaho mu ruhame, bigatuma babona igisubizo kirambye ku kibazo baba bafite.

Ubuyobozi kumanuka bukegera abaturage birafasha, cyane cyane inzego z'umutekano, usanga abaturage benshi bazitinya, ariko iyo bamanutse bakegera abaturage bakaganira, ituma abaturage bisanzuraho.

Inamo hagati y'abayobozi n'abaturage ni ikintu cyiza cyane, ifasha abayobozi n'abayoborwa kumenya ikibazo kiri hagati yabo, umuyobozi abasha kumva abayoborwa, akanakemura ibibazo bafite mu maguru mashya.

Inama zihuza abantu batandukanye ziba nziza cyane, kuko zituma hakemurwa ibibazo bitandukanye kubera ko byaganiriweho, abayobozi n'abayoborwa bahuriye ahantu hamwe, bakemura ibibazo bihari bigatanga umuti urambye.

Inama yiga ku kibazo runaka iba nziza cyane, kuko ituma abaturage n'abayobozi bashyikirana, bigatuma abayobozi bamenya ibibazo abaturage bafite, n'abaturage bakabaza ibibazo byabo bakisanzura.

Inyogosho y'amasunzu ni ikirango cy'umuco nyarwanda kuko yahozeho, niyo mpamvu tugomba kuyisigasira kugira ngo umuco nyarwanda ntugacike. Yafatwaga nk'inyogosho y'abanyarwanda.

Igiseke ni ikirango cy'umuco nyarwanda hamwe n'ikirago .Igiseke tugikoresha tugiye mu bukwe, dushyiramo amasaka cyangwa ibishyimbo, cyangwa ibigori tugiye mu bukwe kugira ngo tubashe gutwerera abakoze ubukwe.

Igisabo ni igikoresho cya kinyarwanda, gikoreshwa mu muco nyarwanda, akenshi kuri ubu gikoreshwa mu misango y'ubukwe yo gusaba no gukwa umugeni.

Gutega amaboko ni igikorwa gikorwa mu mbyino gakondo, abantu bateze bigana inka z'inyambo, usanga bigaragara neza cyane iyo ababyinnyi bateze amaboko nk'inyambo.

Mu muco nyarwanda wasangaga umubyeyi wo hambere yakenyeye umukenyero, yambaye urunigi, yateze n'urugori mu mutwe, agasokoza uruhanika, akaba ameze neza cyane, ukabona asa neza.

Igiko ni igiti kigiraga amahwa menshi, bisaba kukitondera iyo ugiye kugikoraho, cyangwa ugiye kucyurira, ni igiti kigira amababi make, ugereranije n'ibindi biti, mu gihe cy'izuba, usanga ntababi na rimwe risigaye, ugasanga gisigaranye indabo, zacyo gusa.

Umuco wo gukama ibitoki bakoresheje ibirenge, ukunda kubaho ku bantu beza ibitoki byinshi badashoboye kubikamisha amaboko, bikaba ari uburyo bworoshye gukora kandi bwihuse.

Imbyino gakondo zishingiye ku muco nyarwanda bigaragaza ubuco n'ubutwari bw'igihugu cyacu, bigatuma urubyiruko rwitoza kubyina izo mbyino mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda.

Ibiryo bya kinyarwanda bitetse nta mavuta arimo, harimo ibihaza, ibigori, imyumbati, ibijumba, imboga rwatsi zivanze n'ibishyimbo, impungure, bikunda gukoreshwa cyane cyane ku muganura.

Inkono y'itabi ni igikoresho gakondo cyakoreshwaga abantu bari kunywa itabi amasigara ataraza, bafataga igikamba bagashyira muri iyo nkono y'itabi bagacana umuriro, bakagenda batumura gake gake.

Kuvuna umugara n'imbyino gakondo. Igaragara neza mu maso y' uri kuyireba, ihuza urubyiruko rwinshi rutandukanye, bakigira hamwe uburyo basigasira umuco nyarwanda.

Amayogi ni igikoresho gikoreshwa mu mbyino gakondo， umubyinnyi aryambara mu kirenge akabyina，ukumva injyana y'umudiho iryoheye amatwi，bigashimisha abareba imbyino.

Ubwato bwa gakondo, bukoreshwa mu ngendo zo mu mazi, hajyamo abantu, bamwe bagafata ingashi bakagenda baragasha, akenshi usanga ubwato bwa gakondo bwaratobotse, bafata utuntu two kudahisha amazi yinjiye muri ubwo bwato barayasubiza mu mazi, kugira ngo butabaroha.

Umuco gakondo twigisha uko u Rwanda rwahozeho, ukatwigisha iby'ibwami tukamenya uko abami n'ibikomangoma bambaraga, bigatuma twiga uko twakubaka u Rwanda rushya duhereye ku muco gakondo.

Kubyina, umuco gakondo bikorwa n'umuntu uwo ari we wese ,abahungu cyangwa ababakobwa bifasha urubyiruko mu kwihuriza hamwe ,biga ku muco gakondo no kuwusigasira neza ,bikarurinda ibiyobyabwenge, kuko baba bihurije hamwe bahugiye mu mbyino.

Umuco gakondo ubamo ibikoresho byinshi bitandukanye, tugira umusambi bakunda bakwita umuhururu, akenshi bawumanika mu muryango, kubera ko haba harimo urugi, habamo umuvure bakamiramo ibitoki, hari n'agatanda kaboshwemo ibiti n'ibirere bakamuriraho igikatsi bari gukama ibitoki.

Ingobyi ni igikoresho cyakoreshwaga kera gitwara abageni. Ariko kuri ubu mu byaro bimwe na bimwe, ni igikoresho gikoreshwa bajyanye umurwayi kwa muganga, mu bice by'imisozi bidashobora kugeramo imodoka ku buryo bworoshye.

Igicumbi cy'umuco, gusigasira umuco nyarwanda w'ahahise n'ahazaza, bigatuma urubyiruko rwiga uka u Rwanda rwa mbere rwahoze rumeze, bikadufasha no kuzigisha abana bacu uko u Rwanda rwo hambere rwahoze rumeze, binyuze mu gusigasira umuco nyarwanda hifashishijwe: imisambi, iducuma, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuhamizo w'intore ufasha abanyeshuri kumenya uko u Rwanda rwa hambere uko rwari rumeze, ukabafasha kwiga neza umuco wacu w'igihugu bigatuma bamenya uko bazasigasira u Rwanda rwacu bishingiye ku muco.

Abakecuru ba kera wasangaga bambaye inigi mu majosi, ugasanga buri mukecuru wese afite urunigi mu ijosi avuga ko nta josi ryambara ubusa, hari nabo wasangaga bazambaye kubera imiti bashyizemo, ariko ubu kubera iterambere ryaje usanga bazambara kubere umurimbo.

Imbyino za kinyarwanda zisigasira umuco nyarwanda zigisha urubyiruko uko hambere byari bimeze, bigatuma umuco wacu udacika kubera kubyina izo mbyino mu bihe bitandukanye.

Imbyino gakondo ziba nziza cyane. Zihuza urubyiruko rukihuriza hamwe, rukiga indangagaciro n'umuco nyarwanda, bikarinda urubyiruko mu kwishora mu ngeso mbi, bikanasigasira umuco nyarwanda kugira ngo ntugacike.

Ibikoresho gakondo bitwigisha umuco nyarwanda harimo ibyansi cyangwa ibisabo, bidufasha kumenya uko hambere bari babayeho nta terambere rihari.

Icumu n'umuheto n'umugara babyifashisha mu kubyina imbyino gakondo byerekana umuco nyarwanda w'u Rwanda rwejo rw'ahahise bigatuma dusigasira n'umuco w'ejo hazaza.

Uduseke ni twiza cyane, dukoreshwa tugiye gusura inshuti n'abavandimwe, ushyiramo utuntu twawe, ugapfundikira ukikorera, ukagaragara neza, tukanakoreshwa mu muco nyarwanda nk'imitako.

Umuco gakondo ukwiye gusigasirwa na buri wese kugira ngo ntugacike, aba kera bagomba kwigisha urubyiruko rwubu akamaro k'ibyansi, ibisabo, mushanana icyo byari bimaze mu muco gakondo.

Gacaca ni urukiko rwashyizweho nyuma ya Jenoside, rwafashaga abantu gukemura ibibazo by'abaturage kugira ngo borohereze inkiko akazi, byafashije benshi kwihana bifasha abahemukiye n'abahemukiwe kwiyunga. Gacaca yari ingirakamaro cane yakoze akazi katoroshye.

Inyambo ni inka nziza cyane, z'umuco gakondo, usanga ahantu henshi muri iki gihe zitagikoreshwa, kubera ko abanyarwanda bamenye inka z'inzungu, zitanga umukamo urusha uw'inyambo, ariko inyambo zifite ukuntu zihariye zigira amahembe maremare, ajya gufatana hejuru, zikajyira n'ingendo yazo zihariye.

Ibiryo bitetse kinyarwanda ni ibiryo uteka nta mavuta arimo akenshi usanga nta n'amazi arimo. Hariho ibijumba, ibitoki, bihaza n'bishimbo, uwabiriye agira imbaraga, nk'iyo ari umuhinzi ava mu murima we nta kibazo cy'inzara ahuye na cyo.

Inzu z'ibyatsi n'intebe za kinyarwanda nk'ibitsitsi biri ahantu byagenewe bigaragaza gakondo uko yahoze, bikagaragaza uko u Rwanda rwa mbere rwari rubayeho mu myubakire, bigafasha urubyiruko kwiga uko twateza imbere igihugu cyacu.

Itabi riba ribi cyane ku buzima bw'umuntu, urinywa n'urihumetse, kuko ryangiza ibihaha by'urinywa n'urihumetse bigatuma ubuzima bw'aba bombi buhangirikira.

Mu gicumbi cy'umuco ni ahantu heza cyane higirwa umuco nyarwanda, higanjemo kubohaha no kudoda ,bigatuma umuco nyarwanda usigasirwa ntugacike.

Ibikoresho bya kinyarwanda: ingobyi, ibitebo, imihini; ni ibikoresho bikorwa n'ibiti karemano ibitebo babiboha mu biti baca mu kinani, naho ingobyi bakaziboha mu byatsi bita imikararanka, byakoreshwaga hambere, ariko na nubu biracyakoreshwa.

umuco nyarwanda ushingiye ku kubyina bikoreye uduseke, ni umuco wakorwaga kera n'abakobwa b'inkumi. Niyo mpamvu tugomba kuwusigasira kugira ngo ntucike.

Umuco nyarwanda ufasha urubyiruko mu kwirinda ibiyobyabwenge， kubera ko iyo bahuye bagiye kwitoza uwo muco nyarwanda， bituma bahurira hamwe bakiga indangagaciro na kirazira， bigafasha urubyiruko kumenya ejo hashize h’igihugu cyacu， bikanabafasha kurubungabunga.

Ibicumbi by'umuco harimo inzu z'ibyatsi n'inzitiro z'ibyatsi bidufasha kwibuka umuco wa kera uko wari umeze. Zitwigisha ukuntu abantu ba kera babagaho, baba mu mazu y'ibyatsi n'inzitiro z'ibyatsi.

Mu muco nyarwanda twigiramo ibintu byinshi cyane nk'imikino itandukanye， bituma haba ubumwe mu banyarwanda， nko gusimbuka urukiramende， bihuza abanyarwanda benshi batandukanye，bityo bigatuma n'urusimbutse，aba akoze siporo ngororamubiri.

Umuco nyarwanda ugaragazwa kenshi n'ibikoresho bibajwe mu biti, kuko icyo gihe nta byuma byabaga bihari cyangwa parasitike byogukoramo ibikoresho nki byubungubu, akenshi wasangaga ibikoresho byinshi ari ibibajwe mu biti, urugero nk'intebe zo kwicaraho, amasekuru, udutanda bakamisha ibitoki n'ibindi.

Ibicumbi by'umuco nyarwanda dusangamo ibikoresho by'umuco bitwibutsa umuco wacu, bigatuma dusigasira umuco gakondo mu rubyiruko rw'iki gihe n'urw'ejo hazaza.

Abagore bo mu cyaro, iyo bigeze igihe cy'izuba ihinga ryarangiye, bakora imirimo y'amaboko nko kuboha ibirago bishisha banikaho imyaka iyo yeze, bakabyicaraho, bakanabishyira munsi y'amatora, bakabiraraho.

Imyuko n'imidaho ni ibikoresho byo mu gikoni bakora mu biti. Bikorwa cyane cyane n'abantu b'ababaji. Umwuko tuwushigishisha igikoma, tukawutekesha umutsima, naho umudaho tuwaruza isosi n'imboga.

Ibicumbi by'umuco by'igihugu cyacu, bifasha urubyiruko kumenya u Rwanda rw'ejo hashize, bikadufasha kumenya uko twabungabunga u Rwanda rwacu dushingiye ku muco w'ejo hashize, bigatuma n'abakerarugendo biyongera kubera umuco nyarwanda.

Umushanana ni umwambaro ugaragaza umuco nyarwanda kuva hambere kugeza na nubu, umushanana urakoreshwa kuri ubu cyane cyane ukoreshwa mu birori bitandukanye cyane cyane mu gusaba no gukwa.

Mu muco nyarwanda hari igikoresho cyitwa umutemeri, cyifashishwa bari gupfundikira icyibo, kugira ngo ibyo bashyize mu cyibo bitagaragara, bigatuma icyibo cyacu kigaragara neza.

Ikibindi ni igikoresho gakondo cyakoreshwaga imirimo itandukanye yo mu rugo, kuvoma, guteka, kubika amazi, kubika inzoga, n'ibindi bikorwa bitandukanye, nko kugihunikamo.

Ikibindi ni igikoresho cya kinyarwanda gikoreshwa imirimo myinshi itandukanye. Ushobora kukivomesha amazi, ukagitekamo, ukakibikamo umusururu, ukanakibikamo ikigage.

Gukama ni igikorwa gikorwa umuntu ari kwenga umutobe, hari abakoresha amaguru n'abakoresha amaboko, gukama ukoresheje amaguru, bikorwa iyo ibitoki ari byinshi abakamyi ari bakeya, bakoresha amaguru kugira ngo igikorwa cyihute.

Gusya ku rusyo ni umuco nyarwanda wahozeho， kera iterambere ritaraza wasangaga akantu kose ukeneye kavamo ifu，ugasya ku rusyo， ariko ubu ni ukujyana ku cyuma cy’amashanyarazi bakakubetera. Niyo mpamvu tugomba kwigisha urubyiruko rwacu，ko kera twasyaga ku rusyo， kugira ngo dusigasire umuco nyarwanda.

Ibikoresho by'amashanyarazi biba byiza cyane, bituma tubona umuriro dukeneye, ariko biba byiza iyo ubirenze abana kuko biteza impanuka, iyo umwana abikubaganyije ashobora gushya cyangwa akaba yatwika inzu yose

Ibikoresho by'amashanyarazi cyane cyane amatara, bifasha Abanyarwanda mu iterambere ryihuse kuko mu ijoro haba hari kubona, buri munyarwanda wese ashobora gukora icyo ashaka mu ijoro muri make dukora amasaha makumyabiri n'ane.

Militipurize ni igikoresho cy'amashanyarazi gicaginga ibintu byinshi kandi ari kimwe, niyo mpamvu bacyita mulitipulize. Gifasha ahantu hari abantu benshi kubona uko bacaginga mu buryo bworoshye.

Ibikoresho by'amashanyarazi bigomba kwitonderwa cyane ,bikarindwa abana bigashyirwa kure yabo, kuko bishobora kubateza impanuka, yabaviramo ubumuga cyangwa urupfu rutunguranye.

Zebura korosi ni uturongo tw'umweru bashyira mu mihanda ya kaburimbo， abagenzi b'amaguru nitwo bemerewe kunyuramo. Umugenzi w’amaguru， acunze neza akabona imodoka zitari hafi，atunyuramo，akabasha kwambukiranya umuhanda.

Amashuri ni isoko y'ubumenyi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko dufatirayo amasomo menshi atandukanye nk'indangagaciro na kirazira no kwihangira imirimo.

Amashuri cyane cyane aya Leta afasha abana batishoboye, badashoboye kujya mu mapirive kumenya gusoma no kwandika, bigatuma u Rwanda rwacu rugira Abanyarwanda bazi gusoma no kwandika.

Imidugudu yubatse ahantu hamwe, ifasha abaturage badafite ahantu ho kuba cyane cyane abadafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu zabo, kuko ibafasha kubona aho kuba, ikubaka ubumwe hagati yabo, bakirinda amakimbirane kuko bahura kenshi.

Hari inzu yubatse tu ini wani igice cyo hejuru n'igice cyo hasi. Icyo hasi bagikoreramo ubudozi, iyo ushaka ku dodesha umwenda wawe urabagana bakakudodera neza cyane , yegereye kuri kaburimbo kuhagera biroroshye.

Etage ni inzu nziza cyane. Ni inzu ibumbiye hamwe ifata umwanya muto kandi mu by'ukuri irimo amazu menshi. Igatwara ubutaka buke ugereranyije nuko wakubaka inzu zisanzwe.

Amazu yubatse mu buryo bwa etaje, hakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye. Urugero: nk'amashuri, insengero, amabiro y'abayobozi. Bigafasha igihugu mu kubungabunga ubutaka bw'ahantu ho kubaka, kuko amazu y 'ama etaje atwara ubutaka bukeya, kandi agatwara n'ahantu hatoya ugereranyije n'amazu asanzwe.

Ifoto y'umuyobozi runaka iyo bayishyize ku muryango w'ibiro bye iyo ugiye kumushaka ugasanga adahari uhamagara izo nimero baba bashyize ku ifoto y'uwo muyobozi, ukamureba kuri iyo foto ndetse mwanahura ukamenya ko ari we neza kuko uba wamubonye ku ifoto iri ku biro bye.

Ibigega bifata amazi ava ku nzu biba byiza cyane, kuko bituma isuri igabanuka, bigafasha no mu gihe cy'izuba, kubera ko amazi akunda kubura, abenshi bavoma muri ibyo bigega, ntibagira ikibazo cy'amazi.

Imidugudu igezweho ni amazu aba cyane cyane mu mijyi ya za kigali, hahurizwamo abaturage bagatura ahantu hamwe hubatswe amazu asa, bigatuma abaturage benshi bahurira hamwe bikavana abantu benshi mu manegeka.

Ibiro by'utugari mu gihugu cyacu, haba hagomba kuba hari idarapo rigaragaza ko ari ibiro bikoreramo ubuyobozi. Kuburyo n'umuntu utazi gusoma ahagera, akabona idarapo ry'igihugu cyacu, akaba yamenya ko ari mu ibiro by'ubuyobozi.

Ibiro by'umurenge bifasha abaturage mu gutanga ibibazo byabo mu buryo buboroheye, bifasha abaturage mu kwandikisha abana bavutse, bikanadufasha mu kwandukuza abapfuye. Bityo, serivisi z'inzego za Leta zaratwegereye.

Ku rusengero ni ahantu abakirisitu bagiranira ubusabane n'Imana, usanga ku minsi yo gusengeraho nko cy'umweru abantu benshi bahuriye ahiswe ku nsengero, bashimira Imana banayisingiza.

Ikigo cy'amashuri cya groupe scolaire kampanga cyisha abana b'incuke, abo muri primary n'abo muri secondary. Bakaba bafite amashami ya MCE, ELFK na MCB bigisha neza cyane.

Mu rwanda tugira amashyaka atandukanye. Igihugu cyacu gifite demokarasi cyemerera buri shyaka gukorera mu gihugu dufitemo Girini pati, tukagira FPR n'ayandi menshi cyane. Buri shyaka usanga rifite ibiro byaryo mu karere runaka cyangwa mu ntara runaka.

Amazu y'ama etaje ni amazu agaragara neza cyane akorerwamo ibikorwa bitandukanye ,hari ayo bashiramo ibiro by'abayobozi ,cyangwa bakayashyiramo ubucuruzi ,bigatuma amazu y'ama etaje atanga umusaruro kuko atwara ubutaka buke.

Amazu yubatse mu buryo bumwe, agaragara neza cyane iyo ari ahantu hamwe, usanga iyo abantu baje kuyaturamo, cyangwa baje kuyakoreramo ibikorwa bitandukanye, haba hasa neza cyane.

Ibigo by'amashuri byubatse mu buryo bwa etaje, bitwara umwanya muto ugereranyije n'ibigo by'amashuri byubatswe mu buryo busanzwe, bigatuma abarimu n'abanyeshuri guhura byoroha. Kandi bigafasha Igihugu mu kubungabunga ubutaka kuko bitwara umwanya muto ugereranyije n'ibindi.

Amapoto y'amashanyarazi akwirakwiza umuriro mu bice byinshi by'igihugu, afasha igihugu mu gukwirakwiza umuriro mu baturage batandukanye.

Kwa muganga ni ahantu hagomba kuba hazitiye neza, ku buryo nta kiva hanze ngo gipfe kwinjiramo uko kiboneye, kuko hari haba hari abarwayi batandukanye baharwahariye, bagomba kurindirwa umutekano wabo.

Kubaka etaje bisaba amafaranga menshi cyane , kuko kubaka etaje bitwara igihe kirekire kugira ngo yuzure. Bisaba kuba ufite igishoro gihagije, ufite n'abakozi bahagije, uko ugenda uzamuka niko amafaranga agenda ariyongera.

Ibikorwaremezo byaragwiriye muri iki gihugu cyacu, urebye u Rwanda rwacu rwateye imbere, hari insengero nziza cyane buri muntu wese yisangamo, hari n'imihanda myiza cyane idufasha kujya muri izo nsengero.

Buri karere k'igihugu usanga karateganyije ahantu imodoka zigomba guparika, iyo muri ku rugendo mukava mu karere mujya mu kandi, usanga hari ahaparikwa imodoka, ahaparikwa amamoto n'ahaparikwa amagare.

Abamotari ni abantu badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ,dukora ingendo mu nshe zitandukanye ,batwara abantu n'imizigo ,babavana ahantu hamwe babajyana ahandi ,barihuta cyane, iyo ushaka kujya ahantu uri kwihuta moto ikugezayo vuba.

Ibimodoka binini bifite ibikontineri inyuma bitwara imizigo iremereye cyane, ibyinshi usanga bitwara nk' amakaziyo y'inzoga n'amafanta, bikanatwara amagaze n'ibindi byinshi bitandukanye .

Ubwato ni igikoresho gikoreshwa mu ngendo zo mu mazi, kibajijwe mu biti haba harimo intebe zo kwicaraho, abantu bajyamo bakicara, umusare akagasha, agatwara bakava ahantu hamwe bajya ahandi.

Mu muhanda haba hagabyemo ibice bibiri bitandukanya imodoka. Imodoka iri kuva mu cyerekezo kimwe ijya mu kindi hari uruhande iba igomba kunyuramo, kugira ngo itaba yagongana n'indi modoka biri kuva mu cyerekezo gitandukanye.

Umuhinzi iyo yejeje imyaka ye, atumizaho imodoka, ikayijyana ku masoko, cyane cyane bikorwa naba rwiyemeza mirimo babyiyemeje, iyo imyaka yeze baza mu cyaro bagakusanya imyaka bakayigemura, bakayijyana mu masoko.

Mu migi habonekamo urujya n'uruza rw'abantu benshi, amamodoka menshi, moto nyinshi, n'amazu menshi y'ubucuruzi n'ayo guturamo acucikiranye.

Igikorwa cyo gukusanya amata ni igikorwa leta yashyizeho, ishyiraho amakusanyirizo y'amata kugira ngo amata agurishwa mu baturage ku mafaranga make, bahabwe agaciro bityo umworozi ajye abone amafaranga yaturutse ku nka ye.

Bisi nini bakunda kwita tapendigo itwara abantu benshi, usanga bamwe bagenda bahagaze abandi bakagenda bicaye, kugira uyigendemo bisaba kuba ufite ikarita ugakozaho ukabona kwinjiramo, akenshi ikorera mu mijyi gusa.

Mu gihe cy'itangira ry'amashuri no mu gihe abanyeshuri basubira mu rugo bagiye mu biruhuko, ni byiza ko ubuyobozi bushyiraho gahunda yo gushakira abanyeshuri imodoka zo kubacyura, kugira ngo umutekano wabo ubungwabungwe bagere mu rugo amahoro.

Gare ya nyabugogo ni gare ibaga nini cyane, iba irimo abantu benshi n'imodoka nyinshi, ugereranyije n'andi magare, kuko nigare ihuza igihugu cyose, imodoka nyinshi ziturutse, mu ntara niho ziruhukira, usanga muri iyo gare, harimo utuzu abagenzi baruhukiramo, iyo bategereje imodoka, hakabamo n'abantu bari kuzunguza, imigati yo kurya, n'amaji yo kunywa.

Ibimodoka binini usanga akenshi byambukiranya imipaka, biba ari ibimodoka bifitemo ibikotineri inyuma, bitwara cyane cyane peterori n'amagaze, bitwarwa n'abashoferi babyigiye babigize umwuga.

Rifani cyangwa motomodoka niko bakunda kwita iki gikoresho gitwara imizigo. Cyifashishwa hari gutwagwa imizigo itari myinshi kandi itari mike idashobora kujya kuri moto.

Umusaruro weze neza ntabwo ushobora kubura isoko. Hari imodoka ziva mu mugi zikaza kuwutwara, cyane cyane iyo twejeje imboga n'imbuto, habamo za karoti, ibitunguru, hakabamo n'ibigori. Icyo gihe iyo byeze, imodoka ziraza zikabitwara.

Mu muhanda usanga harimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka nini, ni intoya, hari ni inzira y'abanyamaguru, ni byiza ko umushoferi yakurikiza amategeko y'umuhanda, kugira ngo adateza impanuka, binyuze mu kutubahiriza amategeko.

Abamotari bafasha Abanyarwanda mu kugera iyo bagiye mu buryo bwihuse, bikanabafasha bo ubwabo mu kubona amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagatuma igihugu kibona amafaranga binyuze mu misoro batanga.

Muri gare ni ahantu hahurira imodoka n'abantu bajya ahantu hatandukanye, iyo ukeneye imodoka ijya ahantu runaka, uragenda ukajya kuri ajanse y'iyo modoka ushaka gutega, bakagukatira itike ukinjira mu modoka ikakujyana.

Muri gare hahurira imodoka nyinshi zitandukanye zivuye ahantu henshi hatandukanye. Haba hari n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse impande nyinshi zitandukanye, bategereje imodoka zibajyana iyo bashaka kugera.

Mu gutangira kw'ishuri cyangwa gufunga igihembwe kw'abanyeshuri, abanyeshuri bagomba gushakirwa imodoka zabo, kugira ngo bagere mu rugo cyangwa ku mashuri amahoro, kuko baba bakiri abana bato, kubareka ngo bitegere ni ibintu byabagiraho ingaruka nini cyane.

Abakozi bakora ku kibuga cy'indege cyangwa bakora mu ndege, usanga bambaye amakositimu, baba abakobwa cyangwa abahungu, bafasha mu gutanga serivisi ku kibuga cy'indege cyagwa mo imbere mu ndege, n'abapiroti ubwabo usanga bambaye amakositimu.

Gare ya kiramuruzi iherereye mu karere ka gatsibo, ni gare iringaniye itari nini cyane, kuko yakira imodoka nkeya, ugereranyije na gare ya nyabugogo cyangwa nandi magare manini.

Muri gare habamo imodoka zitandukanye z'ubwoko butandukanye, iyo ugiye gutega ujya aho imodoka ushaka gutega iherereye. Habamo n'abazunguzayi bazunguza ibintu byo kurya, iyo ugize inzara uri muri gare urabagurira cyangwa ukagura ikindi kintu bafite ukeneye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zituma abagenzi bagera iyo bajya mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bigatuma igihugu cyacu kidahura n'ikibazo cy'umwuka mubi mu kirere, kubera ko imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziba ari nkeya ugereranyije n'uko bashyira mu muhanda imodoka y'umuntu ku giti cye.

Muri gare habamo urujya n'uruza rw'amamodoka n' abantu. Ni uruhurirane rw'amamodoka. Iyo umugenzi akeneye gutega imodoka, ajya muri gare akareba imodoka ashaka gutega, agakatisha itike akayinjiramo, ikamujyana aho ashaka kugera.

Amburance zifasha abarwayi bari ku masantere dosante, bakeneye ubuvuzi buri ku bitaro bikuru, kubagezayo byihuse, bigatuma imfu ku babyeyi bapfa babyara n'abana zigabanuka.

Muri gare usanga abantu benshi batonze umurongo bategereje imodoka, uko imodoka zije bagenda bashyiramo abantu, bakurikije uko batonze imirongo ibyo cyane cyane babikora ku mabisi akora mu mugi, umuntu uhageze bwa mbere atonda umurongo uhageze bwa kabiri gutyo gutyo.

Imodoka itwara imizigo n'itwara abagenzi, igomba kujya muri kontorore bakareba ko nta kibazo ifite, ikabona kujya mu muhanda kugira ngo idateza inkongi y'umuriro cyangwa indi mpanuka ku baturage, cyangwa ibyo iba itwaye.

Muri gare hari igihe kigera abantu bakaba benshi cyane, bitewe n'uko imodoka zabuze cyangwa zagiye mu bindi bikorwa. Usanga abantu batonze umurongo, bakurikirana uko baje, kugira ngo buri wese abashe kubona tike imujyana iyo yagiye.

Indege ni uburyo bwiza butwara abagenzi bubavana ahantu hamwe bubajyana ahandi ,mu ndege ntushobora kwicirwamo n'inzara ,haba harimo ibyo kurya bitandukanye, ukeneye icyo kurya uravuga bakaguha icyo ukeneye.

Ubwato ni ubwoko bukoreshwa mu gutwara abantu. Bufasha Abantu mu kugera ahantu bifuza banyuze mu mazi, cyane cyane ba mukerarugendo baba batabona amazi. Bigafasha Igihugu mu kwinjiza amadovize azanywe na ba mukerarugendo.

Siporo ku babana n'ubumuga, iba nziza cyane, ibafasha kugorora ingingo zabo, bakerekana impano bifitemo, ikindi kandi ibafasha mu kwirinda agahinda gakabije, kubera ko buri umwe, abona ko hari undi bahuje ikibazo.

Umukino wa voreboro，ni umukino mwiza cyane uhuza urubyiruko， ukarurinda kwishora mu ngeso mbi nk'ibiyobyabwenge， igatuma urubyiruko rugaragaza impano yarwo rwifitemo.

Siporo yo gukina umukino w' amagare ni siporo yaba nziza cyane, bihuza urubyiruko rw' ibihugu byinshi bitandukanye, usanga harimo Abazungu, Abirabura baturutse impande zose z' isi, bizanira u Rwanda amadovize azanywe n' abo bakinnyi baturutse hanze y' igihugu.

Umukino w'amagare ni umukino ufatwa nka siporo ukorerwa mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, iyo wakiniwe mu Rwanda usanga harimo abazungu, n'abanyarwanda abo bazungu bazana amafaranga, u Rwanda rwacu rukiteza imbere bagateza imbere igihugu cyacu n'abanyacyaro bakabona uwo mukino w'amagare.

Umukino wa basikete ni urugero rwa siporo ufasha urubyiruko mu kwiririnda ibiyobyabwenge, ugafasha n'igihugu mu kubona amafaranga binyuze mu bafana baba baje kureba umukino wa basikete muri sitade.

Umikino wa vore boro ni umukino uba mwiza cyane, ni umukino ufatwa nka siporo, bashyira fire hagati y'abakinnyi, bamwe bakajya hirya abandi hino bagakina, bagatanga ibyishimo ku bafana, bakagira n'ubufatanye hagati yabo.

Siporo ni igikorwa cyiza gihuza urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bigatuma bishima kandi bakirinda kujya mu ngeso mbi, kubera ko iyo bahuriye hamwe babura umwanya wo kujya kunywa ibiyobyabwenge, no kwishora mu ngeso mbi.

Siporo ni igikorwa cyiza gihuza urubyiruko, gifasha urubyiruko mu kunga ubumwe, kikabarinda kwirinda ibiyobyabwenge, kigatuma bungurana ibitekerezo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru gifite akamaro kanini ku baturarwanda. Gihuza ingeri zose z'abantu harimo abakinnyi n'abafana babo, abakinnyi baraza bakajya mu kibuga bagakina, hanyuma abafana bakicara ku ruhande bagafana.

Umukino wa basikete ni umikino uba mwiza cyane, ni umukino uri mu bwoko bwa siporo, aho ufasha abakinnyi gutakaza ibinure bitari ngombwa, bakirinda indwara zitandura imivuduko, imitima, ituma abafana bishima n'abakinnyi bakishima.

Siporo ni ingenzi cyane cyane ku rubyiruko. Ifasha urubyiruko mu kwihuriza hamwe, bikarurinda kwishora mu biyobyabwenge. Bigatuma n'abafana baje kureba umupira, harimo abatajya mu ngeso mbi kubera ko baje kureba siporo.

Imikino mu bigo by'amashuri iba myiza cyane ituma abanyeshuri bisanzura bakaruhuka mu mutwe, iyo umukinnyi agiye mu kibuga aba yirengagije amasomo bityo umunaniro ukaba wagabanuka. N'abafana iyo baje kureba abakinnyi babo na bo bibaruhura mu mutwe.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, kigomba kuba gifite ubwatsi karemano, harimo imirongo itarashije neza igaragarira amaso y'abafana n'abasifuzi, ku buryo nta kwibana kubaho hagati mu kibuga, iyo bibaye byiza kiba gikorutiriye kugira umupira utarenga ukajya kure.

Siporo yo kwiruka ifasha umubiri wacu gukomera, igafasha abato n'abakuze kugira ubuzima bwiza, kandi igafasha urubyiruko mu kwihangira imirimo binyuze muri siporo, bigatuma igihugu cyinjiza amafaranga menshi aturutse muri siporo.

Siporo ku bana iba nziza cyane, kuko ifasha abana gukurana ubuzima bwiza n'igihagararo cyiza, ikabarinda ibirwara bitandura, imivuduko, imitima, diyabete n'ibindi, bigatuma bagira ubuzima bwiza bagakura neza.

Umukino wa vore ni umukino uba mwiza, uhuza abakinnyi b'ingeri zose, ugakurura n'abafana b'impande zose, bigatuma hirindwa ibiyobyabwenge mu rubyiruko, urubyiruko rukishakamo ibisubizo binyuze muri uwo mukino wa vore.

Siporo iba mu buryo bwinshi butandukanye, imikino tubona myinshi itandukanye nayo iba mu cyiciro cya siporo. Urugero nka tenisi bakina bari kudunda akadenesi, ifasha umubiri gutakaza ibinure kuko umuntu ayikora adahagaze hamwe.

Siporo ku bato n'abakuze iba nziza cyane, ihuza urubyiruko rukungurana ibitekerezo bakirinda kuzerera, no kunywa ibiyobyabwenge bituma ibyo bakora byose babikora bashyize hamwe.

Kwiruka ni ubwoko bwa siporo bwiza cyane, kuko bufasha umubiri gukora cyane, uyikora abira ibyuya byinshi agatakaza ibinure bitari ngombwa, akagorora ingingo akaba yanaruhuka mu mutwe.

Siporo igaragaza ubumwe n'ubufatanye ku bayikora, cyane cyane umupira w'amaguru uhuza abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye, igatanga ibyishimo ku bawukina no ku bawureba.

Siporo ntiheza urubyiruko urwo ari rwo rwose. Ikorwa n'abakobwa cyangwa abahungu babyifuza, kandi babishaka cyane cyane umukino wa volebolo uryoheye ijisho. Ufasha urubyiruko mu kwirinda kuba bajya mu ngeso mbi, bigatuma haboneka ibyishimo no ku babafana.

Siporo y'umupira w'amaguru ni siporo ikorwa abantu bakina umupira w'amaguru. Siporo y'umupira w'amaguru igomba gukorerwa ahantu hari ikibuga cyiza gifite amazamu abiri, n'abanyezamu babiri , kandi iryo zamu rikaba ririmo akantu gatobaguye bita fire, ku buryo iyo umuntu atsinze igitego umupira utajya kure uguma muri ako kantu.

Umukino w'umupira w'amaguru ufatwa nka siporo ikomeye cyane, kuko abakinnyi bakina bari gukoresha imbaraga nyinshi, bari kwirukanka mu kibuga, bagatakaza ibure bitari ngombwa mu umubiri, bakagira ubuzima bwiza, bifasha n'abafana mu kwishima, iyo baje kureba uwo mukino, kuko bitumaga baruhuka mu mutwe, bakirinda siteresi.

Siporo ku rubyiruko, ni nziza cyane, irinda urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, kuko baba bihurije hamwe, bahugiye ku mikino yabo, bigatuma bungurana ibitekerezo, bikabarinda kwiyandarika.

Umukino w'igare ufatwa nka siporo y'igare, ni umukino uba mwiza cyane uhuza urubyiruko rw'ingeri zose rwaturutse mu bihugu bitandukanye, utuma u Rwanda rubona amafaranga aturutse i mahanga, kubera ko uwo mukino w'igare ukinwamo n'abanyamahanga.

Siporo ku rubyiruko ni nziza idufasha kwirinda ibiyobyabwenge no kuzerera, ikadufasha gukurana igihagararo cyiza, ndetse ifasha n'abakuze mu kugorora ingingo, bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umupira w'amaguru ni urugero rwiza rwa siporo kuko ifasha abakinnyi mu kugira imibiri myiza, igatuma abakinnyi bihuza bikabarinda kuba bajya mu ngeso mbi, ikinjiriza n'igihugu amafaranga binyuze mu bakerarugendo baba baje kureba umupira w'amaguru.

Imbyino gakondo ku basore nziza cyane. Zigaragaza ko abasore b'ubungubu bisanishaga n'aba kera. Kuko mu imbyino gakondo twasangagamo inkumi n'abasore. N'ubugubu rero, abasore bakoreshaga imbyino gakondo, Bagerageza kwigana umuco wa kera bawusigasira.

Siporo si iy'abato, si iy'urubyiruko, si niy'abakuze, siporo niy'ingeri zose kuko ifasha umubiri wacu mu gukora neza, binyuze mu gusohora ibinure bidakenewe, biba biri mu mubiri. Ni yo mpamvu tugomba gutoza abana bacu gukura bakunda siporo bakayikora kenshi gashoboka.

Siporo iba nziza cyane ku mubiri w'umuntu, ifasha umuntu uyikora gutakaza ibinure bitari ngombwa mu mubiri, igatuma inshuti n'abavandimwe bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo.

Basikete ikinwa n'abakobwa ndetse n'abahungu. Ni umukino mwiza cyane kuko udaheza. Bituma abakobwa n'abahungu bakurana umubiri mwiza cyane, bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Sitade zorohereza abakunzi b'imikino badafite amateleviziyo n'ama bonoma kubona uko bareba imikino, zikanatuma igihugu cyinjiza amafaranga binyuze mu buryo bw'abakerarugendo, kuko hari imikino myinshi ihuza abanyarwanda n'abanyamahanga iba yabereye mu gihugu.

Sitade ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye, baje kwirebera imikino itandukanye ,cyane cyane imipira y'amaguru. Usanga muri sitade harimo igiteleviziyo kinini cyane, kiri kwerekana uwo mukino, uwutari kubasha kureba mu kibuga neza, areba kuri icyo giteleviziyo kinini.

Ibikoresho bya siporo bifasha abantu bakora siporo kubona uko bayikora ku buryo bwororoshye, urugero nka magezi, imipira, n'inkweto ushaka gukora siporo hari ibyo bikoresho ntabwo agira ikibazo cy'urwitwazo rwo kuba nta mupira cyangwa inkweto yabonye kugirango ngo bimufashe muri siporo.

Umupira w'amaguru ni urugero rwiza rwa siporo, utuma umubiri wacu urambuka ugatakaza ibinure bitandukanye bitari ngombwa mu mubiri, bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Siporo ni nziza cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda, idufasha kugira ubuzima bwiza dusohora ibinure bitari ngombwa mu mubiri wacu. Igatuma abakinnyi n'abafana bagirana imisabanire tukarushaho kubaka u Rwanda twifuza duhujwe na siporo.

Koga ni igikorwa gifatwa nka siporo nziza cyane, kuko umuntu iyo agiye mu mazi agiye koga, akoresha imbaraga bigatuma umubiri we utakaza ibinure bitari ngombwa mu umubiri, akinjiza n'umwuka mwiza mu mubiri.

Siporo ku rubyiruko ,ku basore n'abakobwa iba nziza cyane . Ituma abakobwa n'abasore bakurana igihagararo cyiza, ikabarinda ibirwara bitandura biterwa n'umubyibuho ukabije ,igatuma bihuza, bakungurana ibitekerezo.

Borudirire ni rigori yo mu muhanda itwara amazi. Iyo bari kubaka umuhanda basiga agaferege bita borudire, bakagapfundikiza ibintu bibumbye mu mapave, bigatuma umuhanda utuzuramo amazi.

Kaburimbo yoroshya ingendo, igatuma ibikorwa bijyanye n'iterambere byiyongera urugero nk'ubucuruzi, igatuma n'urubyiruko ruhanga imirimo ijyanye no gutwara abantu.

Imihanda yo mu cyaro ifasha abaturage mu guhura ku buryo bworoshye. Dore ko baba batuye batandukanye, bigatuma itumanaho ryo mu baturage b'icyaro ryoroha bitewe n'iyo mihanda iba ihari ku buryo buhagije.

Umuhanda w'umukara, umuhanda wihutisha imodoka cyane, iyo imodoka iri kuwugendamo, igera iyo igiye vuba, kuko nta mikoko iba igurimo, bigatuma umugenzi agera iyo agiye amahoro, n'amafaranga yagatanze mu muhanda w'igitaka akagabanuka.

Umwuga wo gutwara igare ufasha uwukora kwiteza imbere. Ugafasha n'abagenzi bafite amafaranga yo gutega igare, kugera iyo bagiye vuba, bigatuma umunyonzi abona amafaranga yo gukemurare ibibazo bya buri munsi.